Umugabo uhetse ipompo arimo kugenda atera umuti, arimo kugenda anyanyagiza mu bice bitandukanye by'uyu murima kugira ngo abashe kwica udukoko hanyuma umusaruro uzaboneke ari mwinshi.

Umugabo uhetse ipompo arimo kugenda atera umuti mu myaka ye kugira ngo yice udukoko kugira ngo azabashe kubona umusaruro uhagije, aha ngaha arimo kugenda anyanyangiza umuti mu bice bike bitandukanye by'ibimera.

Umugabo uhetse ipombo arimo kugenda atera umuti mu myaka, arimo kugenda yica udukoko kugira ngo imyaka ye izabashe gutanga umusaruro ushimishije, yambaye ibirenge ndetse kandi n'umusore.

Abagabo babiri bambaye imyenda ipfutse ahantu hose, bakaba barimo kugenda batera umuti kugira ngo ibihingwa byabo bibashe gutanga umusaruro ndetse kandi bice udukoko dushobora kwangiza iyi myaka.

Umugabo ufite ipombo akaba arimo kugenda ashyira umuti ku bihingwa ndetse arimo kugenda anyanyagizaho kugira ngo bize kugira umusaruro uhagije ndetse kandi bizatange n'amafaranga.

Ahantu bakora ubworozi bw'amafi aho hari ibyuzi bizitiye ndetse kandi hakaba hariho amahema arimo amazi ari ho amafi ashyirwa kugira ngo babashe kuyorora ndetse kandi ni ubworozi bugezweho butanga amafaranga.

Umugabo ukora ibijyanye n'ubuhinzi cyangwa se ubworozi bw'amafi, akaba arimo kugenda afata ibiribwa akabinyanyagiza muri iki cyuzi kugira ngo amafi arimo abashe kubona ibiyatunga, hanyuma nawe azabone umusaruro.

Ahantu ho hakorerwa ubworozi bw'amafi, hakaba higanjemo amafi agiye atandukanye, aho bagenda bayafata, bakayashyira mu byuzi bagiye bakora kugira ngo babikoremo umushinga, ubundi babone amafaranga.

Ahantu hari icyuzi kirimo amafi aho abantu bakiyifashisha mu korora ndetse n'abandi bantu bakaba babasha kuyagurira hano, mu igihe bayakeneye cyangwa se bashaka kuyarya ku ifunguro ryabo.

Amafi bamaze kuroba ahangaha ni bamwe mu barozi b'amafi, bakaba bamaze kuyaroba, bayiteguye kuba bayageza, aho agomba kugurishirizwa. Ahangaha baba bakeneye abaguzi bayajyana ku isoko.

Ahantu hameze nk'ikigo cy'ubushakashatsi hakaba harimo amazi agiye atandukanye ari mu bintu bimeze nk'ibyuzi, aho hashobora kuba hari harimo amafi babifashisha mu bworozi cyangwa se bakaba batanga amafi akiri matoya kugira ngo ajyanwe kororwa.

Imbaga y'abantu benshi barimo kugenda basoroma icyayi higanjemo abagore n'abagabo barimo kugenda bagikusanya kugira ngo babashe kukigurisha, hanyuma abandi na bo bakabikora nk'akazi kugira ngo babone amafaranga.

Umurima munini, ukaba uhinzemo igihingwa bita ikawa, kikaba ari kimwe mu bihingwa ngengabukungu, aho gisarurwa kikoherezwa mu bihugu byo hanze, hanyuma tukinjiza amadovize.

Igihingwa ngengabukungu bita ikawa, bakaba barimo kugenda batonora, ari na ko bareba izimeze neza bakazishyira ku rundi ruhande, aba ngaba ni abahinzi ba kawa, bakaba babona amafaranga menshi.

Umugore uhitse igitebo akaba ari ukugenda akusanya icyayi, akagenda ashyiramo. Inyuma yeho hari n'abandi bafatanyije umwuga bakaba bakora akazi ko gusorama icyayi kuko ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu.

Umugabo w'umuhinzi akaba ahagaze mu murima w'umuceri arimo kugenda yitegereza areba uko umeze, niba umusaruro uzaboneka, kugira ngo arebe arimo kugenda yitegereza kugira ngo arebe umusaruro uzaboneka.

Ikimera bita icyayi kikaba kifashishwa nk'ikimera ngengabukungu kuko cyoherezwa hanze mu musaruro wamaze gutunganywa hanyuma Igihugu kikaba cyakwinjiza amadovize ndetse no ku baturage babihinga.

Umugore wishimye cyane akaba yambaye ingofero, afite igitebo mu mugongo, yambaye imyenda abantu basoroma icyayi baba bambaye, arimo kugenda agikusanya kugira ngo kize gutunganywa kuko ni kimwe mu bihingwa kandi ngengabukungu.

Iduka ririmo amacupa agiye atandukanye yiganjemo imiti yica udukoko yifashishwa mu gutera imyaka cyangwa se bayitera k'inka cyangwa se igihe bica ibirondwe biba biri k'inka.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo imiti iri mu tujerekani dutoya ,ndetse kandi tukaba dushushanyijeho amatungo iyi miti ishobora gukoreshwa ivura, aha ngaha akaba ari imiti cyangwa se ibinini bahereza amatungo.

Iduka ririmo imiti igitandukanye ishobora kwifashishwa mu kuvura amatungo, harimo ibinini hakaba n'indi bayitera bakoresheje inshinge, ibyo byose ni ibifasha mu kuba bavura amatungo indwara zigiye zitandukanye.

Imiti igiye itandukanye, yiganjemo iyo bahereza amatungo ndetse akaba imeze nk'ifu ya yindi iboneka kwa muganga w'amatungo cyangwa se veterineri, akaba ari we utanga iyi miti.

Imiti igiye itandukanye yiganjemo yagiyebatera mu bigori cyangwa se muyindi myaka igiye itandukanye kugira ngo babashe kwica udukoko mu gihe barimo kurwanya icyorezo kugira ngo imyaka ibashe gukura.

Ahantu hari ibigaragaza imiti igiye itandukanye, ishobora guterwa amatungo cyane cyane ahangaha bikoreshwa n'umuntu uvura amatungo aribo bita geterineri kuko aba ariwe ubizobereyemo.

Umuti wifashishwa mu guha amatungo cyane cyane aba arimo ibinini bituma inka imera neza cyangwa se n'irindi tungo rigiye ritandukanye igihe bayihaye kinini bituma iba neza igakura kandi ikagimbuka.

Abagore babiri bafite amasuka, barimo kugana mu bicege bitandukanye, babyutse kare bagiye ku murimo bagiye guhinga, bakaba ari abahinzi babigize umwuga.

Abantu bagera kuri batatu barimo kugenda bakataza abenshi muri bo bafite imipanga, hakurya hakaba hariho umwe wikoreye udukwi ndetse, akaba yaduhambiriye. Abangaba barimo kugenda bihuta kugira ngo bajye ku murimo, aba ni abahinzi.

Abahinzi bagera kuri babiri bakaba barimo kugenda batera imyaka, angaha bari ahantu hameze nkishyamba barimo kugenda bakusanya imbuto zagiye zitakara hasi kugira ngo bazikoreshe.

Abahinzi bakaba barimo kumurika ibikorwa byabo, biganjemo abahinga amapapayi cyangwa se bakaba ari koperative, barimo kugenda berekana umusaruro wabo, berekana ko bahinga mu buryo bwa kijyambere.

Abagize inzego z'umutekano bakaba bari ahantu hahinze cyangwa se ahantu batunganyiriza ibiti, barabifita bikiri bitoba bakabirera bakaba babijyana ahandi hantu, bagiye batandukanye ku bantu bashaka gukora amashyamba.

Ahantu hakorerwa ubworozi bw'ihene, aha ngaha hakaba hari ihene z'amoko agiye atandukanye, hakurya hakaba hari imbaga y'abantu biganjemo inzego z'umutekano barimo kugenda bareba ibi bikorwa.

Ahantu hakorerwa ubworozi bugiye butandukanye bwiganjemo za nka za kinyarwanda bita Inyambo, zikaba zifite amahembe meza cyane atuma abantu bazishimira bifuza kuzireba, bazita Inyambo zifite amahembe ateze neza.

Abantu barimo kugenda bakora ibikorwa byo gutera ibiti, aha ngaha akaba ari Perezida w'u Rwanda akaba arimo kugenda ashishikariza abaturage ndetse n'abandi muri rusange kuba batera ibiti.

Ikigori cyumye cyane kikaba gifite amababi yamaze kuma, kikaba cyareze, ndetse ahantu kiri kiri cyonyine, ahandi kandi harimo ikimwe kimwe, akaba ari mu murima, harimo ibigori bikeya aribyo bateye.

Umuhinzi akaba afite ibirayi bigera kuri bitandatu, yambaye uturindantoki arimo kugenda agaragaza umusaruro yagiye abona, cyane cyane wakomotse mu buhinzi bwe, ibingibi ni ibigaragaza umusaruro.

Ahari insina bagushije ndetse zikaba zigera kuri eshatu, hakaba hariho n'amashangara yifashishwa mu gucana umuriro ndetse kandi iyo ibitoki byeze, aya mashanangara barayatema bakayacanisha umuriro, hanyuma umutumba bakawuha inka.

Ahantu hari amapapayi hakaba hari imboga z'amokogi atandukanye zihinze hano ndetse kandi ahangaha haka hari akarima k'igikoni, aho nyirako karima gashobora kuba yabura imboga.

Umurima ukaba urimo ibimera bigiye bitandukanye byiganjemo ibyimejeje, hakaba hariho ikigori kikirimo kumera, hakaba hariho ibishyimbo bigera kuri bibiri ndetse kandi hakaba hariho n'imbuto z'imyungu.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byiganjemo ibiba byaturutse mu mahanga, bipfunyitse mu tuntu tumeze nk'udukombe ndetse hakaba harimo amakaroni, hakaba harimo utumeze nk'amasaradine.

Ikibaya kinini cyane kikaba kirimo umucaca ndetse kandi hakaba ntabihingwa birimo, hakaba hameze nk'ikibuga cy'umupira, gusa kaba ari cya gihe haba hamaze igihe gitoya basaruye hakaba henda gutunganywa kugira ngo hahingwe.

Umurima ukaba uhinzemo imbuto ziganjemo imapapayi, aya ngaya akaba ategurwa ku mafunguro agiye atandukanye mu gihe bashaka kuyarya cyangwa se mu rwego rwo kurya imbuto.

Ahantu hari ikibuga kirimo ubwatsi, hakaba hakurya hariho imisozi igiye itandukanye, iriho ibiti ndetse hakaba hariho inzu imwe rukumbi igaragara, hakaba hariho ibice bigiye bikikije inzu, byiza cyane.

Igihingwa bita amacunga, kikaba kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, aha ngaha zikaba zikiri ku giti cyazo zikaba zitari zasarurwa, aha ngaha uyu akaba ari umuhinzi uhinga ibijyanye n'imbuto.

Ikibaya giteyemo ibigori bikaba bimaze igihe gitoya bitewe, bitaragera igihe cyo kuba byasarurwa, ni ukuvuga ngo biba bigeze igihe cyo kubagarwa, hakeneye kongerwaho ifumbire kugira ngo bikure imeze neza.

Ishyamba rikaba ririmo ibiti bigiye bitandukanye, hakurya hakaba hariho aho bagiye baca imirwanyasuri ku buryo imvura igihe yaguye idashobora gutembana ubutaka ndetse kandi hakaba hari aho umuntu ashobora kunyura mu gihe ari gutembera iri shyamba.

Ishyamba rinini rya kimeza, rikaba rifite ibihu biri hejuru ndetse kandi aha ngaha ni rinini cyane ku buryo umuntu aramutse agiyemo, adashobora gupfa kuryikuramo mu gihe adafite umuntu umuyobora kugira ngo amenye aho ari kugana.

Ahantu hari umusozi muremure ukaba urimo ibiti bikiri bitoya, hakaba hariho umuntu ashobora gutema igiti cyo gukoramo inkwi cyangwa se ibyo gukoresha ibindi bikoresho, bigiye bitandukanye ameza intebe ndetse n'ibindi.

Umugi ukikijwe n'insina zigiye zitandukanye ndetse hakaba harimo, n'ibindi bimera bituma uyu mugi ubasha kumera neza bakabona umwuka bahumeka, ndetse kandi ahangaha hakikijwe n'amashyamba agiye atandukanye atuma babona umwuka mwiza.

Ishyamba rinini rikaba ririmo ibiti bikuze, hakuno hakaba hari imirima ariko ikaba yo itarimo ibiti, akaba ari bimwe mu bikurura imvura cyangwa se akaba ari bimwe mu bidukikije, biba bigomba gufatwa neza.

Imisozi miremire cyane iriho ibiti bige bitandukanye, harimo ahantu hagiye hateye ubwatsi aho umuntu ashobora kuragira cyangwa se kwahura amatungo igihe runaka. Ni ahantu kandi hari imirima y'abaturage.

Umugore uri mu mashyamba akaba yambaye ingofero ndetse yambaye n'ibikweto birebire akaba arimo kugenda atembera areba mu byiza nyaburanga bigize uyu musozi ndetse aha ngaha bakaba bakunze kuhaza bishyuye.

Ishyamba rinini cyane ryabyutsemo igihu, hejuru hakaba rigaragazwa n'ibihu byiganjemo bikaba byerekana ko ari ibiti birebire cyane, ahangaha akaba ari muri bwa buryo badushishikariza gutera ibiti kugira ngo turinde ibidukikije.

Umuhanda uciye ahantu hatari abantu, ahangaha hakaba hanyurwa n'imodoka gusa, kuko ahangaha ni mushyamba ushobora guhuriramo n'ikibazo mu gihe urimo kuhagenda utari mu mudoka kuko ahangaha iyo uhacuye ni mu ishyamba rwagati.

Umugabo uyu nguyu akaba arimo kugenda agana mu bice bitandukanye by'ishyamba, akaba ari bwa buryo abantu babamo kugenda batera ibiti kugira ngo babashe kurinda ibidukikije.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi cyane bikaba ari birebire kandi bigiye bifatanye ku buryo udashobora kujyamo mu gihe utahazi, ibi ngibi biboneka cyane cyane muri ya mashyamba yakimeza aho harimo ibiti birebire cyane.

Ahantu hari ikiyaga ndetse ki bikaba gikikijwe n'ibiti, igihe bitandukanye akaba ari bimwe mu bintu bituma imvura iboneka cyane cyane iyo ari amashyamba menshi ndetse ibiyaga n'i nibyo byose bikurura abakerarugendo.

Ikimera bita ipapayi, kikaba gifite imbuto zigiye zitandukanye, ahangaha zikaba zishobora kuba zakoreshwa mu mafunguro ya buri munsi mu gihe kimaze kwera ndetse kandi aha ngaha ni abahinzi babigize umwuga.

Umuhinzi w'ikitegererezo uyu nguyu akaba ahinga pome, akaba arimo kugenda azisarura, uyu nguyu akaba afite amafaranga cyane kuko izi mbuto zikizweho cyane.

Ahantu hari imbuto zigiye zitandukanye, izi ngizi zikaba zimeze nk'amacunga cyangwa se amaronji, zikaba zishobora kuba zagurwa n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo babe bazikoresha mu mafunguro yabo ya buri munsi.

Ahantu bakora ubucuruzi bujyanye n'imitako, ahangaha hakaba hari indabo z'amoko atandukanye zifashishwa mu birori cyangwa se mu bindi bihe runaka mu gihe bashaka gukora ahantu hagasa neza.

Ahantu hari moteri cyangwa se igikoresho gikurura amazi kikaba kiri kugenda kiyanyanyagiza mu bice bigiye bitandukanye, ni bwa buryo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kuvomerera ibihingwa.

Ahantu hari amatiyo agiye atandukanye, aho hariho amacupa cyangwa se hakaba hari amatiyo anyanyagiza amazi mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo imyaka ibashe kuba yamera neza kandi itohagire.

Uburyo bugezweho bwo gusukira cyangwa se kuvomerera imyaka, hakaba ariho amatiyo agiye atandukanye, agenda anyanyagiza amazi mu bice bigiye bitandukanye by'umurima, ubundi imyaka igatuhagira.

Umugore ufite itiyo akaba arimo kugenda avomerera amashu, uyu nguyu ni umuhinzi w'imboga akaba arimo kugenda anyanyagizamo kugira ngo bibashe kugenda neza bibe bitoshye.

Uburyo bwa siysiteme igezweho yo kuhira imyaka, aho hariho amatiyo agiye atandukanye ari mu kirere agenda anyanyagiza amazi mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane iyo ari mu gihe cy'impeshyi kugira ngo imyaka ihore itoshye.

Itsinda ry'abantu bagera kuri batandatu hakaba biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba barimo kugenda buhira imyaka bakoresheje bya byuma bigezweho, biba bifite amatiyo agende azana amazi, bayajyana mu bice bigiye bitandukanye.

Ahantu hari umusozi muremure ndetse ukaba ukikijwe n'utundi tugiye ari dutoya ndetse ahangaha akaba ari bimwe mu byiza bitatse u Rwanda, aho umuntu ashobora kuba yabisura mu gihe runaka.

Ishyamba rinini cyane akaba ari kimwe mu byiza bitatse u Rwanda, hakaba hariho ibiti bigiye bitandukanye hakurya hakaba hariho imisozi, ibi kandi bikaba bikurura imvura ndetse kandi na ba mukerarugendo birabakurura.

imisozi ibiri iteganye, hakaba hagati harimo umugezi urimo kugenda umanura utuzi, hepfo gatoya hakaba hari imirima y'ibigoriyi byenda kwera, hakaba harimo n'insina zigiye ziri hepfo.

Bimwe mu byiza nyaburanga hakaba harihoyaga kigizwe n'utugwa tugiye dutandukanye turimo hagati ndetse n'utundi ku mpande z'igihe zitandukanye, aho ari bimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo baje kwirebera ibyiza.

Ahantu hari bimwe mu byiza nyaburanga, hakaba hari umugezi ufite amazi ay'urubogobo, hakaba hari imisozi igiye itandukanye, ariyo ikikije uyu mugezi, aribyo bituma ahantu hakurura abantu.

Agace karimo ibyiza nyaburanga hakaba harimo ikiyaga gifite n'uturwa turimo hagati, hakuno hakaba hariho insina ndetse zikaba zirimo n'ibigori, ndetse hakaba harimo n'ibiti bigiye bitandukanye.

Inyamaswa bita imparage iboneka muri parike nasiyonale y'Akagera, aho ari kimwe mu byiza bitatse u Rwanda aho abakerarugendo baza kuzisura hanyuma bakishyura amadevize ari byo kuvuga amafaranga y'abanyamahanga.

Agace gakozwemo amaterasi y'indinganire, hakaba hariho ibiti bige bitandukanye, kuruhande kandi hakaba ari indi misozi iriho amashyamba, ibi byose bikaba ari bimwe mu byiza nyaburanga.

Ahantu hari ibyiza nyaburanga hakaba hari ikiyaga, gifite utugwa turimo hagati aho ari bimwe mu bikurura ba mukerarugendo mu gihe baje kuhareba, bakishimira uburyo ateye.

Imisozi igiye itandukanye ikaba igizwe, n'ibirunga ndetse hakaba hariho ahantu hakurura ba mukerarugendo, mu gihe baje kuhasura, bikaba ari umusozi muremure ukora ku bicu.

Ubworozi bw'inkoko aho hari amoko agiye atandukanye y'inkoko, akaba ziteraniye aho zirimo kurira, bikaba ariho ibintu bimanitse biba birimo ibyo kurya ari naho inkoko zigenda zibiifata.

Ahantu bororera inkoko hakaba higanjemo iz'umukara ndetse harimo n'izifite amabara agiye atandukanye, zikaba zirimo gutora ibyo bazihaye, aha ngaha ni aborozi babigize umwuga.

Abagabo babiri b'aborozi b'inkoko bakaba bari ahantu inkoko zororewe, akaba ari icyumba kinini cyane kirimo inkoko nyinshi n'aho zigenda zitorera, hari n'aho bagenda bifashisha mu gihe barimo kuzihiriza ibiribwa.

Ahantu hari inyana ndetse zikaba zifite ibiziranga ku matwi, izi ngizi inyinshi muri zo bakaba baragiye bazica amahembe ndetse aha ngaha zirasa neza, biragaragara ko bazihaye amata ahagije.

Ahantu hari inka zazindi cyane cyane zizwi mu muco wa kinyarwanda zororwaga n'umwami cyangwa se hakaba hari umutware wari ushinzwe kuzicunga, izi ingizi zikaba ari inyambo.

Ikiraro kirimo ingurube ikaba ibyibushye cyane ndetse n'ibwa buryo bugezweho bwo kororera mu biraro, hakaba hariho ingurube y'umweru ndetse kandi bigaragara ko yenda kugera igihe cyo kubyara, ubu ngubu ni ubworozi butanga amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo aho hari ingurube ziciye imirizo zikaba zirimo kugenda zonka, hakaba hariho nyina iryamye hasi bikaba ari ibyana bigera kuri bitatu, ubu ni ubworozi bw'ingurube kandi bugezweho.

Ahantu hari inka nyinshi zazindi bita inyambo, zikaba zifite amahembe ateze neza, hakaba hariho abatahira bazo ndetse hariho n'abantu baje kuzireba, barimo kugenda bishimira ubwiza bwazo.

Ubworozi bw'inkoko hakaba hari inkoko z'amoko agiye atandukanye iz'imikara izindi zifite andi mabara, zikaba zirimo kugenda zitora ibyo bagiye bazihereza, aha ngaha ni za zindi zitanga amagi menshi kandi zigakura vuba.

Umuhinzi mworozi akaba ari mu kiraro kirimo inka, zorowe mu buryo bugezweho, akaba afite agakayi ndetse uyu nguyu yorora muri bwa buryo bugezweho bwo kororera mu biraro, akaba ashobora kugurisha amata cyangwa se akagurisha mu buryo bw'inyama.

Ahantu hari ikiraro kikaba kirimo inka z'amoko agiye atandukanye, aha ngaha hakaba hakorerwa ubworozi bakaba bagurisha amata ndetse kandi mu gihe ushaka inyama hakaba hari izigurishwa zikagurishwa muri urwo rwego.

Ahantu ho hakorerwa ubworozi bororera mu biraro, hakaba hari ihene z'amoko agiye atandukanye, ziganjemo iz'imyeru ndetse hakaba harimo n'iz'umukara, aha ngaha hakaba ari mu biraro byazo.

Umuhinzi akaba afite imyaka mu ntoki arimo kugenda areba imbuto afite mu ntoki kugira ngo abashe kugenda azitere, ahangaha akaba arimo kugenda arobanura imya areba izimeze neza kugira ngo arizo abasha gutera.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kugenda bareba uko imbuto zimeze, aho ahangaha barimo kubigenda bagenzura ibigori bareba uko bimeze bifashishije kino cyuma k'ikoranabuhanga.

Abagore bagera kuri batatu umwe akaba ateruye umwana, bakaba bafite imifuka yuzuyemo ibigori barimo kugenda babishyira mu mifuka kugira ngo babashe kubigeza ku ikusanyirizo cyangwa se babigeze aho babigurishiriza.

Umugabo ufite imbuto zigiye zitandukanye yagiye arusatura kugira ngo arebe iziri mo imbere, arimo kugenda yitegereza ngo arebe ko zatangiye kumera babe babasha kuzibiba.

Umuntu urimo kugaragaza ipoto zigiye zitandukanye yerekana uburyo zikora. Ahangaha akaba ari umuntu uhugura cyane cyane mu bijyanye n'ubuhinzi, ahangaha akaba ari gusobanura yifashishije imfashanyigisho.

Imbuto y'ibigori byarindiba bifite ibara ry'umuhondo, ahangaha bagiye babitonora, imaze kwera ahangaha igisigaye ni ukubijyana mu makusanyirizo cyangwa se mu bwanikiro kugira ngo ibashe gutungana.

Umugabo ukora mu bijyanye n'ubuzima arimo kugenda akora isuku ibikoresho yagiye yifashisha mu gihe arimo kuvura aha ngaha, akaba arimo kugenda abikorera isoko kugira ngo byongere gukoreshwa.

Ahantu hakorerwa ubworozi bw'inkoko hakaba hari imishwi ikiri mitoya gusa imyinshi muri yo igaragara nk'aho yapfuye kuko imyinshi ijyamye hasi, hakaba hariho n'ibiribwa bagenda bazihereza kugira zibashe gukura.

Ubuvuzi bw'amatungo bugezweho aho hariho inyamaswa barimo kugenda bavura, bayambitse ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga kugira ngo babashe kuyivura ndetse kandi ni babiri barimo kugenda bafashanya.

Umugabo w'umuhinzi akaba anorora, uyu nguyu arimo kugenda areba n'aya matungo, gusa yambaye nk'umuntu ushinzwe kuvura, hanyuma bafate inka arimo kugenda areba ku murizo wayo, agiye kuyitera intanga.

Muganga w'amatungo cyangwa se veterineri akaba arimo kugenda avura inka yakomeretse, cyangwa se bakaba bashobora kuba bayibaze barimo kugenda bayivura, kugira ngo barebe ikibazo yaba ifitemo imbere. Muri bwa buryo bw'ikoranabuhanga.

Inyamaswa ifite amahembe ameze nk'amashami ndetse kandi ikaba ikunze kuboneka mu bihugu by'i Burayi ndetse kandi bikaba biri bimwe mu bikurura ba mukerarugendo cyangwa se ibyiza nyaburanga biba bigomba kubungabungwa.

Inyamaswa zimeze nk'inkende zirimo kugenda zitora ubwatsi ndetse n'utundi tuntu hasi, izi ngizi zitwa impundu cyangwa se kandi ushobora no gusanga zimeze nk'ibitera kuko ahangaha n'inyamaswa zo ku gasozi.

Inyamaswa iboneka muri parike nasionari y'akagera bayita imparage ikaba ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo umukara ndetse n'umweru agiye anyuranyemo ndetse kandi ikaba irimo kugenda ireba inyuma.

Inyamaswa ifite izu rirerire, iyingiyi bayita inzovu, ikaba iboneka muri pariki natiyona y'Akagera ndetse n'imwe mu byiza nyaburanga abazungu bashobora gusura cyangwa se abandi bantu babishaka kandi babifitiye ubushobozi.

Inyamaswa yo ku gasozi bita ingwe, ikaba yuriye hejuru ku giti, ifite amabara agiye atandukanye ndetse n'umurizo muremure wenda gukora hasi, ikaba ari imwe mu nyamaswa zizi kwiruka cyane mu gihe zirimo guhiga.

Inyamaswa bita isatura, ingiyi ikayiboneka muri parike national ya Akagera, iyingiyi ikaba ari imwe mu bikurura ba mukerarugendo, ifite ihembe rirerire cyane ndetse risongoye.

Inyamaswa zo ku gasozi bita amasha zikaba zikoraniye hamwe, zikaba zibereye ahantu hari amazi, zikaba zirimo kugenda zitegereza hejuru zirimo kugenda zitega amatwi zumviriza.

Inyamaswa zo ku gasozi zikaba zibereye ahamara amazi, iz'ingizi bazita amasha ziba zifite amahembe maremare uzirebye, zikaba kandi zirya kumera nk'ihene, ahangaha ziri ni muri parike.

Inyamaswa yo ku gasozi ifite amaso maremare iyi ngiyi ni inzoka ndetse kandi izi ngizi ziboneka ahantu cyane cyane muri maparike ndetse n'ahantu hari amashyamba iyi ngiyi ukaba ugomba kuyitondera.

Inyamaswa zirimo kugenda zirukanka mu muhanda, zirimo kugenda zinyuranyuranamo ndetse kandi zimeze nk'iziri ku murongo umwe, zirimo kugenda zirukankanaho, inyinshi ziganjemo imbwa cyangwa se zikaba ari inyamaswa zo ku gasozi.